Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye amwe muri ayo magambo ari mu ibara ry'umutuku, andi akaba ari mu ibara ry'umukara.

Iki n'icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Iki ni icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, cyanyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu umutuku n'umweru, ndetse hakaba hari n'igishushanyo cyangwa se ifoto y'imbwa.

Iki ni icyapa kiriho ibishushanyo bigiye bitandukanye aha twavuga nk'imodoka ikoze impanuka na moto hakaba hari n'umuriro ucanye ndetse kikaba kiriho n'amagambo agiye atandukanye.

Iki ni icyapa kinini kiri ku rukuta rusa umweru. Iki cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umukara, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Aya ni amagambo agiye atandukanye, amwe muri aya magambo ari mu ibara ry'umweru, andi akaba ari mu ibara ry'icyatsi, andi akaba ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero n'ishati y'umuhondo, akaba ahagararanye n'umugore wambaye ishati y'ubururu, bose bakaba bari gukoresha mudasobwa cyangwa insangazamashusho.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite igisenge cy'umweru ndetse n'amatara acanye asa umweru, muri iyi nzu hakaba harimo amakoti menshi y'amabara atandukanye amanitse ku byuma.

Iyi n'imodoka isa umukara ikaba ihagaze ahantu, inyuma yayo hakaba ari igiti kirekire hakaba hari n'izindi nyubako inyuma zigiye zitandukanye.

Iyi ni imodoka ihagaze mu cyumba gifite igisenge kiriho amatara asa umweru ndetse hasi aho ihagaze iyi modoka, hakaba hariho amakaro asa umweru.

Aba ni abagabo ndetse n'umugore umwe bahagaze imbere y'ikinyabiziga cy'imodoka yitwa ikamyo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, umugore akaba afite urupapuro runini rwanditsaho amagambo agiye atandukanye.

Iyi ni inzu irimo abantu batandukanye, bamwe baricaye imbere mu kirahure abandi bari inyuma, umugabo n'umugore bari inyuma y'ikirahure.

Iyi ni inoti y'amafaranga y'u Rwanda ikaba yari iri ku meza y'urubaho, iyi noti ikaba yanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye.

Aka ni akajerekani gafite umufuniko w'umweru nako kaba gasa n'umweru kaba kari kakaba kari igipapuro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ibi ni ibyoku kurya bakunze kwita isambusa biteretse ku gipapuro gisa kaki ndetse biri mu kantu gasa umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi isize ibara ry'ubururu n'umweru ikaba ifite hejuru hasa umweru no hasi hakaba hari amakaro umweru hirya hakaba hari akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyemezabwishyu iriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umukara, iyi nyemezabwishyu yo ikaba isa umweru.

Uru ni urupapuro ruriho amazina y'abantu, imibare ndetse n'andi magambo, ibi byose bikaba byanditse mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gisa umweru kiriho igishushanyo cya telefone ndetse n'amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Iki ni icyapa gisa umweru kiriho amagambo ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara, umuhondo, icyatsi, umutuku n'ubururu.

Iyi ni inyemezabwishyu iriho amagambo ndetse n'imibare igiye itandukanye iri mu mabara y'umukara, hejuru hakaba hari igishushanyo cy'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Aya ni amazina y'ibihugu agiye atandukanye ari kumwe n'amabendera yayo, hirya hakaba hari n'imibare igiye itandukanye ibi byose bikaba byanditse mu mabara y'umweru umutuku n'umuhondo n'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, iyi nzu ikaba ifite inzugi cyangwa se urugi na rwo rufite ibara ry'umweru ruriho ibishushanyo bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, umweru, umutuku, umukara n'ibindi byinshi.

Iki ni icyumba kirimo ibintu bigiye bitandukanye gifite hejuru hasa umweruru hariho n'amatara kikaba gifite urukuta rusa mu cyatsi hakaba harimo n'intebe isa umukara ndetse n'ibiti cyangwa se indabo zitandukanye.

Iki ni igitanda kiri mu ibara ry'umutuku, haciyemo n'imirongo y'umukara, kikaba gikozwe mu rubaho, hirya hakaba hari n'izindi mbaho zigize zitandukanye nyinshi.

Iyi ni inyubako nini ifite igikuta gisa umuhondo, hakaba hari n'intebe ziri mu ibara ry'umukara, zifite umutaka usa umweru n'ubururu.

Ni ubusitani buteyemo intebe zisa umukara n'ameza yazo y'umukara hakaba hashinzeho n'imitaka ibiri muri yo isa umukara undi usa umutuku.

Aha ni ahantutu hari intebe zigiye zitandukanye zimwe zisa umukara zikaba zifite imisego isa umutuku ndetse n'ameza y'umukara izindi zikaba zisa umuhondo n'ameza yazo z'umuhondo zikaba zishinzeho n'umutaka w'umweru.

Iyi ni inzu ndende cyane iriho ibirahure byinshi cyane byenda gusa ubururu ikaba iriho n'amakaro asa umweru ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Uyu nikobwa wambaye umupira usa ubururu ndetse n'ishati isa ubururu, akaba ari kureba muri telefone ye isa umukara, hirya ye hakaba hari amagambo agiye atandukanye yanditse.

Uyu ni umugore wambaye ingofero z'umweru jule isa umutuku n'umupira impande ye akaba yari amagambo ari mu mabara y'icyatsi, umweru n'umukara.

Izi ni imboga zigiye zitandukanye ziri mu kabati gasa umukara, izi mboga zikaba ziganjemo karoti, amashu ndetse n'ibitunguru birebire n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyenda y'ubwoko butandukanye barimo n'abaguzi n'abacuruzi n'ibyo mucurugo.

Aba ni abagore umwe akaba yambaye igitenge kirimo umuhondo n'ubururu, undi akaba yambaye ikanzu y'umukara n'isaha, ahetse igikapu bakaba bari kuvugana baseka bishimye mu isoko.

Iri ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo intoryi, inyanya, karoti, ibitunguru n'ibishyimbo n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko ririmo abaguzi n'abacuruzi bagiye batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibishyimbo, ibigori, ibitoki n'ibindi byinshi.

Iyi ni meza y'urubaho, iteretseho ururabyo rusa umutuku, ndetse na mudasobwa ebyiri, ndetse n'udupapuro twinshi tw'umuhondo, twanditseho amagambo agiye atandukanye.

Iri ni ihema risa umutuku ryanditseho amagambo asa umweru, rikaba ririmo abantu bagiye batandukanye bahagaze, impande yabo hakaba hari ibyapa nabyo biriho amagambo n'ibishushanyo bitandukanye.

Iyi ni telefoni iri ku kinyabiziga cyitwa moto ikaba irimo amagambo cyangwa se ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Iki ni icyumba cyo kogeramo kirimo ubwiherero, bufite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ikirahure, hirya bakaba bahakarabira, ku nkuta hakaba hariho n'amakaro asa umweru.

Iyi ni inzu ifite igisenge cyangwa se hejuru hasa umweru n'inkuta zisa umweru ikaba ifite utubati dusa umukara ndetse ikaba iriho n'amakaro agiye afite amabara y'umukara n'umweru.

Iyi ni inyubako yegeranye n'umuhanda, iyi nyubako ikaba ifite inkuta zisa umweru n'umukara ndetse n'amadirishya asa umukara, ikaba yegeranye n'umuhanda wa kaburimbo.

Iyi ni inzu irimo amakaro asa umweru n'inkuta zisa umweru, n'amadirishya asa umweru, hakaba harimo n'utubati dukozwe mu mbaho, tugiye dutandukanye.

Iyi ni inzu cyangwa se ni amazu abiri afite igisenge gisa ubururu, ino nzu iri imbere ika isize irangi ry'umweru ndetse n'ubururu ikaba ifite n'imbuga nini.

Iyi ni inzu ndende ifite inkuta zisa umweru ndetse ikaba ifite amadirishya n'inzugi zisa umukara mo imbere muri ino nzu hakaba hacanye amatara y'umweru.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa ubururu, ikaba ifite inkuta ziriho ibara ryenda gusa umutuku ndetse n'umweru, ikaba ifite no hasi amakaro asa umweru.

Iyi ni imeza ikozwe mu rubaho, ikaba ifite ibyapa bigiye bisa umuhondo, byanditseho amagambo asa umukara, hakaba hari n'insakazamashusho ndetse na telefone ku meza.

Aba ni abantu benshi bagiye batandukanye abenshi muri bo barahagaze abandi baricaye hakaba hari inkuta ziriho ibyapa bisa umuhondo byanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye ndetse ikaba irimo n'utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyi nzu ikaba ifite hejuru harimo amatara acanye umweru.

Aba ni abagabo bahagaze bambaye amakoti bakaba mu biganza byabo bafitemo ikayi yenda gusa ubururu, inyuma hakaba hari abandi bahagaze bakoma mu mashyi abandi bicaye ku ntebe z'umweru.

Aba ni abagore bagiye batandukanye bicaye bakaba mu biganza byabo bafitemo amakayi cyangwa se impapuro zigiye zitandukanye.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye, ifite igisenge cy'umweru n'ubururu, ifite amadirishya n'umuryango bisa umukara, hakaba hari umugore uri kwinjira muri iyi nzu.

Aba ni abagore bicaye bamwe muri bo bafite abana impande yabo cyangwa se hejuru cyangwa munsi hakaba hariyo magambo ari mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi kuri iyi nzu hakaba hariho icyapa kifiteho amagambo asa umuhondo muri iyi inzu y'ubucuruzi hakaba harimo abantu bagiye batandukanye.

Iri ni iduka cyangwa ni inzu y'ubucuruzi ifite igisenge gisa umweru kiriho amatara menshi, hasi hakaba hari amakaro asa umweru, hakaba harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'amoko atandukanye biri mu mabara atandukanye nk'umuhondo, umutuku, ubururu umukara n'ibindi byinshi.

Uyu ni ni umugabo wambaye ishati y'ubururu, irimo n'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, uri mu nzu y'ubucuruzi. Afashe igicuruzwa ari kuvugana n'umugore wambaye umupira w'icyatsi, n'agapfukamunwa k'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite hejuru hasa umweru ikaba ifite urukuta rusa umweru, ikaba irimo n'akabati kagiye karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aka ni akabati gasa umweru, karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, nk'umukara, umutuku, icyatsi, umuhondo, n'ibindi byinshi.